Umuhanda w'umukara uri kuyogamo n'ibinyabiziga, urimo imirongo minini y'umweru kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, hirya gato hari ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere hari ibidukikije birimo ibiti.

Abagabo batatu bahagaze basa nkaho baganira, bahagaze imbere y'icyapa. Cyanditseho amagambo asobanura ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda cyitwa muwa. Muwa inshuwarensi Rwanda rimitidi, abambaye umweru ni babiri, umutuku umwe.

Ubwishingizi bwo kwiba byanditse mu ishusho y'umukara butangwa n'ikigo radiyanti cy'ubwishingizi, hasi mu ishusho y'ubururu hari amagambo y'umweru yanditseho ntawamenya ejo wasanga ibyawe byibwe irinde sinamenye.

Imodoka ntoya nyinshi ziri mu muhanda zishoreranye, umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru. Ku ruhande hari icyapa cyamamaza, kiriho umugore n'umugabo b'abazungu.

Icyapa gifite umuzenguruko w'urukiramende kiriho imodoka itukura cyanditseho amagambo y'umukara agaragaza ko ari ubwishingizi bw'imodoka.

Urupapuro rugaragaraho amashusho yamamaza ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda cyitwa puramu inshuwarensi (prime insurance) handitse amagambo mu kinyarwanda mutuze heza uharinde neza.

Ishusho mu ibara ry'umweru n'ikirango cy'ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda, sonarwa, gitanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubw'imitungo igiye itandukanye.

Ishusho yamamaza ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu rwanda cyitwa radiyanti handitseho amagambo impanuka ntiteguza gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima kanda akanyeri gatanu gatatu rimwe urwego ndetse hari ishusho y'ukuguru k'umuntu kuriho igipfuko.

Ishusho yamamaza ikigo cy'ubwishingizi kiri mu magambo ahinnye MUA, igaragaramo abagabo babiri barimo gusuhuzanya yanditseho amagambo "Igitekerezo ngenga-bucuruzi, muri MUA inshuwarensi Rwanda, igitekerezo kiyobora ubucuruzi bwacu inshingiro kuri izi nkingi zikurikira".

Urupapuro rwerekana bank yitwa NCBA biri mu ishusho ry'umukara ndetse n'andi magambo yanditse mu mashusho y'umweru mu rurimi rw'Icyongereza welcome to the bank that says go for it.

Iduka ricuruza imyambaro ndetse n'igikapu ihagazemo umucuruzi w'umugabo ndetse n'umukiriya w'umugore ugaragara nkaho akuze, yambaye ishati ndetse n'agapira mo imbere n'ipantaro barumvikana kubi.

Ubwoko bw'umwambaro w'abagabo wo hejuru yitwa ikoti riyambitse igikoresho cyagenewe kugaragaza ishusho umwambaro ufite ndetse n'ishati mo imbere.

Inzu irimo imitako igiye itandukanye irimo nk'amasaro yambarwa mu ijosi ndetse no mu nda, iyi mitako igaragara mu mabara agiye atandukanye umutuku, umweru, umukara, umuhondo, ndetse n'ikijuju, biteretse ku gikoresho byagenewe guterekwaho cy'umukara kitari kimwe bigera muri bine.

Abantu batandukanye bahagaze mu iduka, uw'umugore yambaye ibirahure by'amaso ndetse n'umwenda w'umweru w'akazi, ari kwereka umugabo muri mudasobwa.

Iduka ricuruza imyenda yo kwambara iy'abagore ndetse n'imitako itandukanye, igaragara mu nyubako ifite inkuta z'umweru, imanitse ku byuma....

Iduka ricuruza imyenda itandukanye irimo imipira y'imbeho ndetse n'imipira mito isanzwe hagaragara utubati duteretsemo ibindi bikoresho bitandukanye.

Imodoka nini iri mumuhanda itwara imizigo yiganjemo ibara risa umuhondon'umweru ikaba ifite indi ihetse inyuma isa ibara ry'umweru hakurya yayo hakaba hari ibiti birebire hakurya yabyo hakaba hari amazu menshi.

Abagabo batatu bahagaze imbere yimodoka zo mu bwoko bwa fuso z'umweru bafite urufunguruzo rw'imodoka mu ntoki rwanditseho abaga akagera motozi barimo bararuhereza umuguzi.

Abantu bane umugore n'umugabo n'umwana ndetse n'undi mugabo ku ruhande, uhereje umugore urufunguzo rw'imodoka rwanditseho akagera motozi ndetse no hejuru ku nzu handitseho akagera motozi.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa Pajeri, yanditseho inyuma Kigali Car Market mu magambo y'icyongereza bisobanuye isoko ry'imodoka ry'i Kigali..

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu mu nzu hejuru hari icyapa cy'uruganda ruteranya imodoka bitwara indaya zisa umukara urukuta rw'inzu gusa umugabo w'umweru.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Abantu babiri bahagaze bafite urufunguzo rw'imodoka nyuma yabo hari imodoka y'umweru igaragara kuri nimero zayo ra a ga karindwi rimwe icyenda ra.

Abantu batatu, babiri bambaye imyenda y'umweru n'amakoboyi hasi undi yambaye umukara ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara, imodoka ibari iruhande yo mu bwoko bwa Benz ndetse ifite icyapa cya Fuso bigaragara ko ufite urufunguzo rw'iyomodoka mu ntoki umwe ni umuguzi abandidi ni abagurisha.

Abantu batatu barimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bafashe icyapa cyamamaza ikigo kigurisha imodoka ntoya.

Abantu bahagaze munsi y'imitako y'amabara y'umutuku, umweru, n'umukara, bafite udukapu tw'umutuku mu ntoki, ku ruhande hari imodoka yanditseho mahindira.

Imodoka y'umukara igaragara imbere, inyuma yayo hari indi y'umweru iyihagaze imbere y'inyubako isize amarangi y'umuhondo, kuri iyi modoka y'imbere handitseho ijambo Kigali ka maketi risobanuye isoko ry'imodoka muri kigali.

Imodoka y'umweru, munsi y'inyubako yanditseho akagera motozi, imbere yayo hari umuntu wambaye umukara hasi, hejuru y'umupira w'umutuku afite urufunguzo rw'imodoka,...

Icyapa gifite amabara y'umweru, n 'ubururu ,n'amagambo yanditsemo mw'ibara ry'umweru, asobanura ko araho bagurishiriza imodoka ndetse hasi hari nimero wabasangaho n'imodoka inyuma mugipangu.

Imodoka ifite ibara ry'ikijuju iri mu muhanda, inyuma hari inyubako ya etaje yeretse kuruhande haragaragara amafaranga y'igiciro imodoka iguze iri kugurishwa.

Abantu babiri bahagaze bafite urufunguzo rw'imodoka mu ntoki rwanditseho abaga akagera moto inyuma yabo hari imodoka y'umukara iparitse.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga umukiriya wo muri banki, ndetse n'umukozi wo muri banki, n'inyuma yabo hari undi mukozi wo muri banki uri kureba uko bahererekanya.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Amafaranga menshi y'amanote ateretse ku meza, ku ruhande hari imashini ibara amafaranga, inyuma hari urugi rurimo urufunguzo ndetse n'intebe y'ubururu ku ruhande.

Uyu n'umukuru w'igihugu cyu Rwanda, aho yari ari kwiyampamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari kumugaragariza urukundo, bamwishimiye kandi bamwereka ko bamushyigikiye.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Imodoka y'umweru, ndetse n'inzu iriho icyapa cyaka cyanditseho inyange mumabara y'ubururu, n'umuryango urimo inzugi zisize ubururu.

Ibyo kurya bikoze mu ifarine bihiye, byitwa amasambusa, bigabuye ku isahani y'icyuma iteretse ku meza y'urubaho.

Umwana muto wambaye agapira kariho ibikinisho, afite terefone mu ntoki inyuma ye hicaye abantu bambaye imyenda yikigo cy'itumanaho cya eyateli.

Ishusho yamamaza ikigo cy'itumanaho kiri mu Rwanda cya MTN mw'ibara ry'umuhondo, harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'akagofero k'ubururu n'umuhondo uri kwereka muri telefoni ye umugore uteruye ikarito.

Ikiganza gifite telefoni mu ntoki irimo amagambo yelo jozefu, n'icyapa cy'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni mumabara y'umuhondo.

Abantu batandukanye, bahagaze mu cyumba kirimo ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'imashini ifotora impapuro zanditseho amagambo.

Urupapuro ruriho urutonde rwa serivisi zitangwa n'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni aho harimo aho kwandika umubare wa serivisi uhisemo ugiye gukoresha.

urupapuro rugaragaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga handitse ijambo supeni ryicyongereza hasi hari ijambo ryikinyarwanda kanda kuri birizi maze uhitemo itirite.

Telefoni yo mu bwoko bwa eyateli, handitse amagambo hejuru tayipu namba, bisobanuye andika imibare, puresi nekisite, ukande ibikurikiraho.

Amagambo yanditse mumabara y'umukara n'umubare gatanu wanditse mwibara ry'icyatsi telefone igaragaza amafaranga ibihumbi makumyabiri agiye kwishyurwa.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umuhondo, ruriho umuntu w'umugore wambaye umwenda w'umweru, hejuru afite telefone arimo kurebamo yanditseho amagambo yamamaza irekure ndetse n'imibare wakanda kugira ngo uyigure.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ari mu ibara try'umukara irigaragara hejuru riri mu rurimi rw'icyongereza monigarami, moni taransifa hasi handitseho nimero z'uwohereje.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru arimo kureba muri terefone ngendanwa, imbere ye handitse amagambo yamamaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga mu magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rugaragaza uburyo bwishyuwe bw'ikoranabuhanga, hariho umubare w'amafaranga y'amayero ndetse n'uburyo yagiye yishyurwamo.

Urupapuro rugaragaza serivisi itangwa n'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni, igaragaza umuntu ugiye kohereza amafaranga, imibare akanda, herekanwa na serivisi zitandukanye ndetse n'ahashyirwa umubare w'icyo ahisemo.

Urupapuro nyemezabwishyu rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda reveni otoriti, hariho ikirango cya repubulika y'u Rwanda, yerekana uwishyuye uguze igicuruzwa n'igicuruzwa n'umusoro watanzwe ku gicuruzwa.

Urupapuro rw'amafaranga rw'ikigo cya banki kibika amafaranga kikanatanga inguzanyo cyo mu Rwanda cyitwa banki ofu kigali yerekana upapuro ruriho amafaranga yishyuwe abantu bi Kayonza.

Ku rupapuro rw'inyemezabwishyu ruririho ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda, herekana uwaguze mu kigo gicuruza amarangi asigwa ku mazu akoresheje nimero.

Urupapuro rwa seritifika itangwa n'ikigo gishinzwe gutanga uburenganzira bw'ubucuruzi aradibi cyo mu Rwanda itariki eshatu z'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kode ya bizinesi cyangwa se y'ubucuruzi icumi, cumi na karindwi, mirongo irindwi nakane, ijana na mirongo.

Raporo yerekana amafaranga yakoreshejwe n'ikigo taranzafurika ekipumenti Rwanda rimitedi, umubare w'amafaranga, ibyo yakoreshejwe,

Inoti zitandukanye z'amafaranga y'Amayero, iya mbere nini ni amayero maganabiri, amayero ijana, amayero mirongo itanu, amayero makumyabiri, amayero icumi, amayero atanu.

Ibiganza by'umuntu bifite inoti y'amadorari ijana biri kuyishyira mu gakoresho kabara amafaranga ndetse n'amadolari y'inoti ku ruhande hari mudasobwa ifunguye nayo iriho ikiganza cy'umuntu bigaragara ko arimo kuyikoresha.

Amafaranga yo mu Buhinde atandukanye, amafaranga magana atanu, n'andi atagaragara neza yo mu ibara ry'umutuku, ashushanyijeho umuntu, yose uko ari mu mabara atandukanye, arimo imibare gatandatu, fa, ma, kabiri, umunani, karindwi, kabiri, umunani, kane.

Amafaranga yo mu Buhinde afashwe mu ntoki n'ikiganza cy'umuntu utagaragara, imbere hari inoti ya magana atanu ifite kode rimwe, umunani, gatandatu, zeru, gatatu,...

Amafaranga atanu yo mu gihugu cy'Ubushinwa afite imibare cede gatatu icyenda gatanu kabiri gatatu karindwi umunani karindwi ariho umugabo wambaye ishati.

Amafaranga atandukanye y'amadorari ndetse nandi atarimo kugaragara neza afashwe mu intoki, n'andi azinze menshi agaragara kubagabo babiri bicaye inyuma yuri kuyabara harimo uwambaye umweru nuwambaye.....

Amafaranga y'amanyamerika y'amadolari icumi, ariho ifoto y'umuntu n'andi hasi igihumbi ndetse n'andi magana abiri, biri mu mabara agiye atandukanye, afashwe n'abantu batandukanye.

Inyubako ikoreramo ikigo cyitwa purayimu foregisi biro, gishinzwe kuvunjisha amafaranga agiye atandukanye yo mu bihugu bitandukanye giherereye i Kigali ishami rya Remera.

Icyapa cyamamaza ikigo k'ivunjisha amafaranga atandukanye yo mu bihugu bitandukanye cyanditse mu rurimi rw'icyongereza hagazemo umugore ufite imisatsi.

Icyapa kiri imbere ku inzu gifite amabara y'umutuku ndetse n'ayumweru mumagambo yanditse m'ururimi rw'icyongereza karesi foreni egisicenji, n'ikigo gikora ivunjisha ry'amafaranga.

Urukuta rw'inzu rusize amabara y'icyatsi ndetse n'amagambo yanditseho y'umweru mu rurimi rw'icyongereza moni taransifa. Bisobanuye kohereza amafaranga hasi yanditse amagambo y'umuhondo remera buranshi, ishami rya remera.

Inzu iriho ibyapa hejuru bibiri bitandukanye ikibanza cyamamaza banki ya Kigali ikorera mu Rwanda ndetse hasi hari icyapa cyamamaza ikigo gikora ivunjisha ry'amafaranga cyitwa sapimu foregisi biro na nimero wabasangaho.

Intebe zifite ibara ry'ubururu ndetse n'utumeza biri muri saro n'imisego iteretse ku ntebe ku ruhande hagaragara inzugi z'ibirahure.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hagaze umugore urimo abaganiriza, inyuma hari icyapa cyanditseho repubulika y'urwanda umujyi wa kigali.

Intebe zikoze mu mbaho ziri iruhande rw'ameza n'ayo akoze mu mbaho mu ishusho y'uruziga hejuru hateretse isahane y'icyuma.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako iriho imbaho nyinshi ndetse n'imbere yayo hateretseho imbaho bigaragara ko hakorerwa ibikoresho bikozwe mu mbaho, umuntu uri imbere yambaye agapira k'ubururu.

Mudasobwa itetse kumeza y'umukara nayo y'umukara, intebe urugi rufunguye rwikirahure kinini cyane rusa umukara, gikuta gisize umweru ku mpande zombi.

Inzu irimo amatara yaka ku gisenge, ameza ateretseho amacupa y'amazi yo mu bwoko bwa nile, intebe zirabura ziticayemo abantu.

Inyubako igeretse kenshi yaka amatara imbere yayo hari ubusitani bwindabyo ndetse n'amazi abwuhira ari kuhira .

Imitobe igaragara mu birahuri n'inanasi hirya yayo, imineke hejuru y'ameza ndetse n'ibirahuri bindi ku ruhande ku meza.

Intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza, n'utundi ku ruhande duto biri mucyumba cyegereye ishyamba, riri hafi y'umujyi urimo amazu menshi cyane.

Ubwogero rusange bugaragara hagati muri hoteri hateye ibiti biri inyuma y'utuzu duto baruhukiramo, hari ubusitani bugaragara inyuma y'ubwogero.

Intebe zitondetse iruhande rw'ameza akoze mu mbaho, ndetse n'umutaka wicarwamo n'abakiriya ba hoteri imbere hari ubwogero rusange, kuruhande hagaragara inyubako ifite amadirishya y'ibirahuri.

Inzu icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, ndetse ikanatanga serivise z'amacumbi, igaragara imbere, ubwogero rusange bwayo, hateretse intebe zo kuruhukira.

Inyubako ya hoteli, icumbikira abantu ndetse ikanatanga serivisi zirimo ibyo kurya no kwakira ibirori, yitwa Radisoni hoteli.

Icyumba cy'inyubako kigaragaramo ubwiherero bugezweho ndetse n'ubwogero burimo igitambaro bihanaguza iyo bamaze koga ndetse n'idirishya rifite ikirahure.

ubwogero rusange buri imbere y'inyubako ku ruhande hateye ubusitani bw'ibiti ndetse n'udutebe twicarwaho n'abaje kogeramo

Icyumba kirimo intebe zitandukanye, izisa umutuku nizo mu ibara ry'ikijuju, inzugi zisize amabara y'umukara, n'amatara hejuru arimo kwaga.

Inzu igeretse, ifite ibirahure byinshi ku mpande iriho amashusho yamamaza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cyitwa ipi inshuwarensi Rwanda limitedi gisize amabara y'umutuku n'umweru.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Icyumba cyinzu kirimo intebe zikozwe mumbaho zirimo nudusego ndetse nameza ateretseho itara kumpande hari inzugi zifite ibirahure.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru n'umukara ku ruhande hari imodoka zitandukanye n'amatara yo mu muhanda ndetse n'inyubako igeretse iri hirya yazo.

Ibiro by'inzu ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi, ifite amabara y'umweru, yanditseho amagambo yirabura mu rurimi rw'icyongereza n'umwaka,...

Inyubako igeretse gatatu igaragara mu mabara y'umweru imbere ifite ubusitani ni ibiro by'ikigo cy'u ubwishingizi gikorera mu Rwanda.

Inzu iriho icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza "yuwesi inshuwarensi", bisobanuye ikigo cy'ubwishingizi cyo muri Leta zunz'ubumwe z'Amerika. Handitse imibare gatandatu zeru kane gatandatu umunani gatandatu umunani kw'idirishya.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi bw'amazu n'imodoka ndetse n'ibindi bigize imitungo ikorera mu Rwanda, gifite amabara y'ubururu mu mazina ndetse hasize umweru ku gikuta.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe zirabura, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ari mu macupa ndetse n'ibitabo, inyuma hari icyapa kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa purayimu.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda cyitwa radiyanti ku muryango hari ishusho yerekana amagambo yanditseho icyo kigo mu ibara ry'ubururu ndetse ikiganza cy'umuntu ku ruhande.

Abantu barimo abagore ndetse n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza atatseho igitambaro cy'umweru, bari kuganuirizwa ku kigo gitanga inguzanyo.

Abagabo babiri bambaye amasoti y'icyatsi kibisi yanditseho vuba bambaye kandi n'amakasike mu mutwe biragaragara neza cyane ko ari abamotari hanyuma kandi biragaragara ko akaboko kabo ko bafashe ku gikapu cy'icyatsi kibisi cyanditseho vuba, icyo gikapu giteretse kuri moto biragaragara cyane ko aribo bifashishwa, muku kujyana ibicuruzwa biba byaguzwe n'abaturage batandukanye babigeze aho bari.

Umuntu wicaye mu biro, imbere ye hateretse mudasobwa iri kwaka, afite impapuro mu ntoki, ari kwakira abakiriya abaha serivise, yambaye ikarita y'akazi.

Ishusho y'amabara y'umuhondo n'ubururu n'umweru yanditseho momo emutiyeni tubiririmo na mokashi rewadingi royariti igaragaza ibihembo bitangwa na bake ya emutiyene ya mokashi hariho amafaranga miriyoni eshanu.

Isoko ricuruza imyenda yo kwambara irimo iy'abakobwa, n'iy'abasore, iri mu mabara atandukanye iy'umutuku, iy'umuhondo, iy'umweru n'icyatsi n'iy'umukara.

Ibicuruzwa bigizwe n'amata, amata akomeye kivuguto harimo ari mu makarito, ndetse nari mu bukopo busanzwe ari mu mabido ikivuto gisanzwe, ndetse nandi mata ikivuguto kiba kivanze n'imbuto.

Abantu benshi bari mu isoko ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, birimo imyenda yo kwambara ndetse n'ibikapu, hejuru iyo nzu isakaje amabati, no mu mpande.

Isoko ry'imbuto n'imboga ndetse n'ibinyampeke birimo amashaza, hari karoti, ibitunguru ndetse n'umuntu wicaye ku ruhande ugicuruzi.

Umusore wambaye umupira w'umukara ningofero y'umukara uhagaze mwisoko ryimbuto nibicuruzwa bitandukanye, imbere hari ibitunguru by'umweru ndetse n'inyanya no kuruhande hari indimu.

Inzu igeretse iriho icyapa cy'umuhondo, cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongerezagete geti yowa dizayini tudayi rikorerwamo ubucuruzi.

Abantu bahagaze imbere y'indobo irimo icyo kurya gakoze mu birayi n'ifarini, byitwa isambusa, ku ruhande hateretse agatebe karekare gakozwe mu mbaho, kariho ibase.

Abantu benshi bari mu isoko harimo abari gucuruza imbuto n'imboga zirimo inyanya, intoryi, ndetse n'urusenda, ku ruhande hahagaze abakiriya bafite udufuka mu ntoki baje kugura.

Isoko rusange ricuruza ibintu bigiye bitandukanye birimo ibikoresho yaba ibyo mu nzu n'ibyo mu gikoni ndetse abantu bicaye benshi m'urujya n'uruza rw'abacuruzi n'abagura.

Isoko ry'ibicuruzwa by'imbuto, n'ibyokurya birimo ibinyampeke by'ibishyimbo ndetse n'imbuto amavoka, imineke ndetse amaronji n'inanasi n'inyanya, hicayemo umucuruzi.

Umuntu w'umugore wambaye imyenda y'ibitenge, imbere ye hari amabase ndetse n'agasahani kariho ibyo acuruza, inyuma ye hari umugore uhetse umwana n'abandi batandukanye baje mu isoko.

Isoko ricuruza imboga n'imbuto ririmo abacuruzi batandukanye ndetse n'udukoresho turimo utudobo nutu base two gupimiramo abakiriya, imboga zisa icyatsi .

Isoko rigaragaramo imyenda igiye itandukanye abadozi badoda bicaye uwambaye umwenda w'umweru, n’ uwambaye wumukara abantu bagenda hagati yabo uwambaye ubururu bambaye umweru.

Isoko ry'imbuto ryicayemo abadamu babiri, bari gucuruza imbuto zirimo; amaronji, imineke, inanasi n'imyembe ndetse n'amacunga.

Abantu babiri b'igitsina gore bicaye mu isoko hacururizwa imyenda itandukanye, igiye imanitse mu mpande. Ndetse hari n'abandi hirya batagaragara neza bigaragara ko iri ari isoko.

Inzu igaragara mu mabara y'umuhondo yanditsemo amagambo ya emutiyene ikigo gikora gitanga serivisi y'itumanaho imbere hari abantu bari gusaba serivisi bagiye batandukanye.

Umuhanda w'igitaka iburyo bwawo n'ibumoso hari amazu agiye atandukanye. Ndahabona igipangu cy'amabara y'icyatsi ndetse iyo nzu isakaje amabati atukura. Hakurya y'umuhanda hari umukindo mwiza uri imbere y'igipangu cy'amatafari.

Perezida Paul Kagame mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu ishyaka efuperi inkotanyi. Hari abashinzwe umutekano we, abaturage ni benshi cyane, kandi bose bafite amadarapo y'ishyaka rya efuperi.

Abantu bahagaze imbere ya mudasobwa, babiri bambaye imyenda isa y'umuhondo y'ikigo gikora kinatanga serivisi y'itumanaho mu Rwanda cya MTN baganiriza umukiriya.

Akazu gato gasize amabara y'umuhondo, gakoreramo abakozi batanga serivisi y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, imbere hahagaze umukiliya w'umugore ndetse ku ruhande hari ishusho y'ikindi cyapa cy'ikigo cy'itumanaho cya eyateri.

Abantu bahagaze imbere y'imodoka igiye gutangwa n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya emutiyene ndetse inyuma hari icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo y'umukara yamamaza icyo kigo cya emutiyene.

Abantu babiri, umwe yambaye imyenda y'abayisilamu ahetse igikapu, undi afite telefoni mu ntoki, bari ku nzu y'umucuruzi w'amayinite ya emutiyeni, iri mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri, umwe yambaye umwenda w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda n'andi atandukanye cya emutiyene, imbere ye hari mudasobwa, afite telefone mu ntoki araganiriza umukiliya.

Abantu bicaye mu ihema ritakishije amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, n'abantu bicayemo bambaye imipira y'umuhondo imbere hahagaze umuhanzikazi w'umunyarwanda witwa Bwiza afite indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa kiriho abantu babiri umukobwa n'umuhungu.

Abantu batandukanye, harimo abambaye imyenda y'ibara ry'ubururu n'umuhondo mwinshi y'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya Emutiyene, bari mu nzu berekana umukiriya wahawe impano.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Urupapuro rwerekana ikigo gicuruza ibikoresho bitandunkanye, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubucuruzi bwo kuri murandasi bwo mu Rwanda, byanditse mu magambo y'umukara.

Umukobwa wicaye ku buriri wambaye ikabutura n'umupira ndetse n'igikoresho cy'indangururamajwi cy'umuziki byo mu matwi, terefone mu ntoki. Imbere ye hateretse agakapu kirabura kandiditseho amagambo ari mu cyongereza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo kuri murandasi, hari icyapa cyerekana aho ikorera ku Gisimeti, hejuru bigaragaza urubuga rw'aho unyura ugiye kugurira ibikoresho bitandukanye.

Ishusho yamamaza uburyo bwo gucuruza kuri murandasi, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Ku ruhande hari amashusho y'imyenda, y'imipira icuruzwa ndetse na mudasobwa.

Ishusho igaragaza iguriro ryo kuri murandasi iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye ku mbugankoranyambaga, igaragara mu magambo y'amabara atandukanye yanditse mu rurimi rw'cyongereza, fadekisi no mu kinyarwanda kivanze n'icyongereza i guriro.

Urubuga rucuruza imbuto n'imboga kuri murandasi hariho imboga n'ibiciro byazo ibya maganatandatu ndetse niz'ibihumbi bitanu mu mafaranga y'uRwanda.

Abatwazi b'ibinyabiziga bya moto byo mu bwoko bw'ibikoresha ingufu z'amashanyarazi, zihetse udusanduku dutwarwamo ibyokurya byaguzwe n'umukiriya bakabimugereza aho ari, bahagaze hamwe ku murongo.

Urupapuro rugaragaza urubuga rucuruza ibintu byo kurya bitandukanye kuri murandasi, hariho igicuruzwa kitwa urwibutso n'igiciro cyacyo amafaranga maganatatu mirongo itanu.

Ishusho yamamaza ubucuruzi bwo kuri murandasi, handitseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, mu ururimi rw'icyongereza n'ishusho ya telefone igaragaza uko baguriraho.

Ugize ejo hezo ukazigamira umwana wawe ku buryo ushobora kugira ikibazo, yamafaranga bakayamuhereza cyangwa se waba uri umusore warabikoze hakiri kare, ukagenda bagahita bayaguhereza ushobora kubaka nibwo buryo bashyizeho. Urabona ko hano rero ni urubyiruko ndetse n'abandi bari kubyamamaza rwose bari kumwe n'inzego z'umutekano niba ndi kureba neza.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye kuri murandasi ndetse rinatanga serivise z'amahoteri, handitseho amadorari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'igihugu cy'u Rwanda.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi, wanditseho vuba, ni kampani ishinzwe kugeza ibiryo ku bantu n'ibindi bigiye bitandukanye. Afite imisatsi y'umukara, yambaye amaherena, yambaye n'agakomo k'umukara. Yee,

Urubuga rw'irembo rutanga serivisi zitandukanye, ishusho iri kugaragaza handitse kanda hano ubone serivisi zose z'ubukerarugendo hasi handitse umuryango icyemezo cy' uko uri ingaragu n'izindi serivisi zitangwa.

Icyumba cy'inyubako ya aparitema igurishwa, iherereye Kibagabaga, i Kigali, amadorari igihumbi, magana atatu n'atanu, harimo uburiri buriho imisego y'umweru.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'eshanu igaragara icyumba k'isuku n'umuryango imbere ufite ibirahuri.

Moto ebyiri ziri mu muhanda zihetse abagenzi iy'inyuma itwaye umugabo ufite igikarito mu ntoki. Iy'imbere ifite utwaye igikapu mu mugongo ku ruhande yateye ubusitani n'imikindo.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, inyuma ye hari amavaze ateretsemo ibiti by'imikindo n'inzu isize amabara y'umweru, n'ubusitani burimo ibyatsi.

Inyubako iherereye i Kigali Remera ifite ibyumba bibiri ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu iherereye i Kigali, igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri, ifite igipangu kiriho urugi rusize umukara, ndetse ifite amabati atukura.

Ubwogero bugaragara mu nzu igurishwa miliyoni mirongo ikenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda i Kigali mu Rwanda i Kanombe, hari aho gucanira itara ndetse n'ikirahure wirebamo.

Inyubako igeretse kenshi iri mu mujyi wa Kigali ikodeshwa amadoralari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, ifite amadirishya n'inzugi bisize amabara y'umweru.

Inzu eshatu zitandukanye zifite igipangu, hejuru handitse amagambo mu ibara ry'umweru miliyoni magana abiri mirongo ine z'agaciro ko kuguriraho iyi nzu, iri mu mujyi wa Kigali.

Icyumba cyo mu nzu kirimo intebe, kigaragara gicanyemo itara, gikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi, giherereye muri Kigali, mu Rwanda.

Inzu ifite igisenge kiriho amabati atukura, iherereye mu mugi wa Kigali, i Kanombe ifite ibyumba bine, n'ubwogero butatu ikodeshwa,

Inyubako y'amabati atukura, inzugi zisize ibara ry'icyatsi, hirya y'aho hari ibiti bibisi, munsi hagaragara amagambo yerekana ko iyo nzu ikodeshwa iherereye Kigali, Kanombe, ifite ibyumba bitatu ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana ane,...

Urugi rusize ibara ry'ubururu rugaragara, mbere hari inzu ifite aho ba binjirira hari amakaro ndetse handitse amagambo agaragaza ko ikodeshwa iherereye iruhande rwa bisi bifite ibyumba bibiri n'ama ubwiherero bubiri.

Inzu igeretse iherereye mu mujyi wa Kigali Nyarutarama ikodeshwa, imbere haparitse imodoka y'umukara ndetse n'indi inyuma yayo iparitse.

Inzu ifite igikuta cyubakishije amakaro y'umweru ndetse hejuru hamanitse icyapa kigaragaraho nimero za telefoni, hasi hari ibindi byapa biri mu mabara y'umweru byanditseho amagambo menshi.

Inzu ebyiri zifite inzugi n'amadirishya by'ubururu no hejuru ugana ku ibati hasa ubururu, mu ibara ry'umukara handitse amagambo y'umukara agaragaza ko inyubako iri i Kigali Kanombe ikodeshwa.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu ikodeshwa ifite amabati yubururu ndetse isizwe umweru kubikuta n'ubururu.

Umugabo uhagaze munsi y'inyubako igeretse, ifite ibirahuri mu mpande, ari kwamamaza inzu zigurishwa ndetse

Inzu ikodeshwa iherereye kigali i kanombe ifite ibyumba bine, ndetse n'ubwogero butatu iparitseho imodoka imbere iriho antene.

Inzu ikodeshwa iherereye Kabeza, y'ibyumba bitatu, ubwogero bumwe, na saro ndetse ifite n'aho kwisanzurira, ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu yaka amatara igaragazwa ko ikodeshwa ibihumbi magana atatu, iherereye kibagabaga, ifite ibyumba bibiri, n'ubwogero bubiri.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Ibyumba bitatu biherereye mu mujyi wa kigali Rebero bikodeshwa amadorari ijana ku munsi, inzu ifite urugi rw'ibirahure rufite ibyuma by'umukara, ndetse imbere hari intebe.

Inzu nini ihagazeho umukobwa imbere urikuyamamza ko ikodeshwa mu mujyi wa Kigali-Nyarutarama, imbere yayo haparitse amamodoka mato arimo ay'umweru n'ay'umukara utandukanye ndetse n'agakoresho gateyemo ururabo.

Abantu benshi bahagaze ahagurirwa ibintu bitandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze iruhande rw'abacuruzi bari kubaha ibyo baje kugura.

Inzu icuruza imikeka igiye itandukanye yo kwicaraho, ndetse n'iyo abayisilamu bakoresha basenga. Iri mu mabara agiye atandukanye, ifite amabara y'umukara, umweru, ubururu, umuhondo n'andi agiye atandukanye.

Iyi foto iragaragaza ahantu bacuruzwa hari abantu bari guhaha hari aho ubu abantu bishimye aho umuntu afite ibyagiye kwa mu ntoki hari naho umuntu atishimye.

Abantu bane bambaye imipira y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, bahagaze hejuru y'abantu benshi harimo abanyonzi, n'abaturage basanzwe, bari kuvuga kuri gahunda y'ubwizigame ya ejo heza bafite ibirango byanditseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bwibikoresho ndetse n'ibiribwa bitandukanye igaragaramo mudasobwa iri ku meza abantu babiri umuguzi n'ucuruza ibara ry'ubururu risize ku kabati.

Iduka ricuruza imyenda n'inkweto ndetse n'amasakoshi, rihagazemo abantu babiri umugore n'umugabo, bahagaze batarebana,...

Ishusho y'ubururu, irimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, asobanye " Mutuweli, ubwishingizi n'ubwisungane mu kwivuza", abantu babatu bazamuye amakarita yabo y'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, ikorera mu Rwanda, uwambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Abayisilamu n'abayisilamukazi batandukanye, bafite amakarita mu biganza byabo bari kwerekana, harimo n'abana bato bapfukamye imbere ku mukeka, ndetse abagabo bambaye utugofero mu mutwe.

Abaturage bicaye hamwe b'abagore harimo uteruye umwana, bafite amakarita y'umuhondo y'ubwisungane mu kwivuza bukoreshwa mu Rwanda.

Ejo heza ubwizigame bw'ahazaza bwanditse mu ishisho y'ubururu, ejo y'icyatsi heza hariho ishusho y'izuba.

Ikiganza gifashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, yanditseho akarere ka Kicukiro, hejuru handitse Repubulika y'u Rwanda, hakurikiranye n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Udutabo tw'ubwishingizi bwa mituweli, bukoreshwa mu Rwanda, bwanditseho ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, Ara Esesibi, ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza.

Icyapa kimanitse kunzu cyamamaza uburyo bwo kwizigama murwanda bwitwa ejoheza handitseho izigamire ugire ejo heza.

Abaturage bicaye imbere y'ikigonderabuzima baje gushaka serivisi z'ubuvuzi b'abagore, umwe ateruye umwana uwicaye ku ruhande ni umukecuru yambaye agapira k'ibyatsi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ifashwe mu ntoki n'umuturage wo mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro ndetse ikoreshwa mu Rwanda iriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Umuntu ukora mu kazi k'umutekano, yambaye ishati y'umweru, afite ikaramu mu ntoki na telefone arimo arebamo anakandamo, imbere hari ameza ateretseho ibitabo bitandukanye, n'imashini ifunga igahuza n'impapuro.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibicuruzwa bitandukanye rihagazemo abantu ba bagabo ndetse hagaragaramo za mudasobwa wishyuriraho amafaranga.

Iduka ryisumbuye ricuruza ibyokurya n'ibyokunywa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, hagaragara ibicuruzwa bifite amabara y'umutuku n'umuhondo ndetse n'ibindi bya ewasa.

Isoko rusange ririmo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye n'amavuta akoreshwa mu guteka, biri mu tubati twagenewe gushyirwamo ibyo byo kurya.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibyo kurya bihiye n'ibidahiye ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, haragaragara cyane amacupa y'umutobe wo kunywa wo mu bwoko bwa koka kora ndetse n'uwo mu bwoko bwa fanta.

Isoko ricuruza ibyo kurya bihiye, n'ibikoresho bigiye bitandukanye, haba ibyo mu gikoni cyangwa se n'ibindi bisanzwe, bigaragaramo byinshi amatara yaka,...

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Umugabo wambaye isengeri n'ikoti ndetse n'ingofero, mu isoko ricuruza ibyokurya n'ibyo gutekesha, afite agakarito karimo ibyo kurya mu ntoki.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibintu byose bigiye bitandukanye, hahagazemo abantu barimo abagore n'abagabo, umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi hejuru handitse amagambo y'icyongereza avuga besite kirisimasi.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibintu bitandukanye birimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, rigaragaramo abantu batandukanye baje guhahiramo, harimo umugore wambaye imyenda y'abayisilamu.

Isoko ryisumbuye, ricuruza ibyo kurya bitandukanye, birimo imitobe igaragara, imbere ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye biri mumacupa y'ubururu n'icyatsi.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibikoresho bitandukanye rihagazemo abantu batatu umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi undi yambaye umupira w'umukara.

Abantu benshi bahagaze imbere y'isoko ryisumbuye ryitwa SIMBA senshoneri hawuzi, imbere hari abantu batambuka ndetse n'abinjira mu isoko.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'ibindi byinshi, haragaragara ibicuruzwa biri mu kabati kariho agapapuro kanditseho zeru n'ibice mirongo ine na bitanu.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibintu bitandukanye, birimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, birimo ibihiye ndetse n'ibidahiye, hahagazemo umugabo uteruye ibyo yahashye

Isoko ricuruza ibyokurya bihiye n'ibyo kunywa bitandukanye, byahagazemo umuntu wambaye ipantaro, inkweto zitukura n'umupira wirabura n'undi hirya ye wambaye umwenda w'umukara.

Isoko ryisumbuye ricuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Hagaragara mu kabati hasi insenda, hakurikiraho imigati ndetse n'amavuta yo guteka n'ayo gusiga ku byo kurya.